Abantu bahagaze, bari kwifotoza, mu ntoki zabo bafite umupira wanditseho Visit Rwanda, bari kugira ngo bamamaze u Rwanda, rubone abantu baza kurusura.

Umuryango ukorera muri Carolina y'amajyaruguru, muri leta zunze ubumwe, ukorera ku isi yose kugira ngo ufashe abantu kugira ubuzima bwiza ubafasha kubona ubuvuzi no kubona imiti ku buryo bworoshye.

Abantu bateraniye mu cyumba bicaye ku meza zitandukanye bakoze zeru bafite imashini imbere yabo abandi bafite telefone, bari kuganira ku biganiro byabahuje byerekeranye n'ubuzima kugira ngo bagirane inama kandi batange ibitekerezo babyumvikanyeho bose.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe cy'inama bari guhana ibitekerezo, bose bacecetse bateze amatwi umugore uhagaze hagati yabo, ari kubagezaho ibiganiro bitandukanye kugira ngo batangeho ibitekerezo n'inama bafite ikibazo akibaze neza.

Umwana uhagaze kuri robine, wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, uri kuvoma amazi ayavomera mu kajerekani kugira ngo ayajyane mu rugo babone amazi meza asukuye yo gukoresha, ku buryo bitabatera indwara iturutse ku mu mwanda.

Umwana uhagaze kuri robine afite igikombe mu ntoki ari gutega amazi agiye kuyanywa cyangwa agiye kuyakoresha kugira ngo ayifashishe mu byo agiye gukora kandi akomeze agire ubuzima bwiza akoresha amazi meza asukuye.

Abantu benshi bateraniye imbere y'inyubako bari kwifotoza bavuye mu nama bishimiye inama bari barimo bagenze neza ibiganiro bamo baganiraho byerekeranye n'ubuzima ko babonye inama nziza zo kujya kwihitamo n'ibyo bagomba gukurikiza kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye imbere y'inyubako igenewe gukorerwamo n'ibitaro kwa muganga kugira ngo bakire abaturage baje babagana barwaye babafashe babahe ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe mu gihe gitoya bitabasabye gukora urugendo rurerure.

Abantu benshi bateranira mu ruhame bagiye kwivuza kwa muganga kugira ngo babashe kubona ubuvuzi ku buryo buboroheye kandi bigereye mu buryo busanzwe kandi bavurwe neza bafashwe mu buryo bworoshye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu cyumba, bari mu nama baganira ku biganiro byerekeranye n'ubuzima, bacecetse, batuje. Bateze amatwi umuntu ubari imbere uri kubagezaho ibiganiro kugira ngo ugira ikibazo, abaze; n'ufite inama cyangwa inyunganizi akaba yayitanga.

Umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga kumuvuza, yicaye ku ntebe, amuteruye mu ntoki ze, imbere ye hicaye umuganga, ari gusuzuma uwo mwana ngo arebe indwara afite, amenye imiti amuha n'ubuvuzi akeneye kugira amufashe, amwiteho akire vuba.

Umugore uhagaze ku iriba, uri kuvomera amazi mu ndobo y'umukara, ateruye umwana mu ntoki, kugira ngo abone amazi meza asukuye, yujuje ubuziranenge yo kuba yakoresha mu rugo; kugira ngo birinde indwara zakwirakwizwa no gukoresha amazi mabi.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama bari kuganira ku ngingo zerekeranye n'ubuzima bwiza n'imibereho y'abana, kugira ngo bakomeze kubitaho mu miryango yabo, babafasha gukora neza no kubaha uburere buboneye n'imyitwarire myiza kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Umugore urwaye ari kwa muganga aryamye ku gitanda yiyorosha ibitenge, imbere ye hahagaze umuganga ufite igikoresho cyabugenewe ari kumusuzama ngo arebe uko umubiri we uhagaze bamenye uko bamufasha nuko bakomeza kumwitaho.

Abantu bateraniye muri sare y'inama, imbere yabo hahagaze umugabo uri kubagezaho ibiganiro, bose batuje, bacecetse, bamuteze amatwi, bari kumva ibyo abagezaho, kugira ngo ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, aze kukibaza. Bose bamuteze amatwi, bamwumva, bisobanutse.

Abantu bahuriye mu gikorwa kimwe bambaye imipira isa, harimo abambaye imipira y'umweru, n'abambaye imipira y'ubururu, bambaye n'ingofero z'umweru, bahuriye mu gikorwa cy'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, kuko umuntu arayisuzumisha yayibona hakiri kare ikaba yavurwa.

Abantu bahagaze bari bahuriye mu gikorwa kimwe cyo kwizihiza umunsi wo mu Rwanda wo gushyira hanze ingamba zo kwita ku buzima bw'abana, kugira ngo bakomeze kurengerwa mu miryango yabo, bose bashobore kwitabwaho babarinde icyabahungabanye bakure neza.

Abagore bicaye ku ntebe ku murongo imbere yabo hica umuganga ari kubashyiho igipimo ku kuboko agenda abapima hava aho umwe hajyaho undi kugira ngo arebe uko bahagaze uko amaraso ari gutembera mu mubiri wabo abashe kumenya ko babafashe nibasanga bafite ikibazo.

Abantu benshi baterani nama wese imbere hategeretse ibipapuro n'icupa ry'amazi imbere yabo hahagaze umuntu uri kubagezaho ibiganiro hifashishijwe amajwi n'amashusho kugira ngo bose babashe gusobanukirwa ibyo ari kubagezaho ufite ikibazo cyangwa igitekerezo abe yagitanga cyangwa yabaza.

Abana bari ku ishuri bambaye iniforomo z'ishuri, saa sita bari gufatira ifunguro ku ishuri kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo bakomeze kumera neza, babashe kwiga neza nta kibazo.

Umwana wunamye kuri robine wambaye ishati n'ikabutura n'inkweto za bodabuda, ari kunywa amazi ayanywesheje umunwa. Munsi ye hateretse indobo yo kujyamo amazi ari kumeneka mugihe yari afite inyota.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama bicaye ku meza imwe nini bari kuganira ku biganiro bitandukanye byerekeranye n'ubuzima imbere yabo hari impapuro n'amazi ibyo baganiyeho bari kubyandika kugira ngo bizabe ikimenyetso mu gihe bazaba babikeneye kureba ibyaganiriweho.

Umwana uhagaze avuye ku bwiherero bambaye inifomo y'ishuri imbere ye hari kandagira ukarabe ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo akure umwanda ku ntoki yirinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda .

Umwana wambaye inifomo z'ishuri, wambaye ishati y'umuhondo n'ijipo yikigina uhagaze kuri kandagira ukarabe, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Amazi meza yagejejwe ku banyarwanda bose kugira aho umuntu wese atuye abone amazi meza yo gukoresha bimurinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda no gukoresha amazi asa nabi mu buryo butandukanye kandi bwinshi.

Umwana uhagaze ku iriba, wambaye agashati k'icyatsi kibisi n'agakabutura k'umukara, impande ye hateretse ikidomoro, ari gukaraba intoki, akoresheje amazi meza n'isabune, kugira ngo akure umwanda ku ntoki, yirinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Umugore uri ahantu mu mugende w'amazi atemba, yatezeho ikirere cy'insina, ari kuvoma amazi, ayavomera mu ndobo, hari amazi adasa neza, adafite isuku, ataratunganyijwe neza, ashobora gutera indwara ziturutse k'umwanda mu gihe yakoreshejwe adakorewe isuku neza bayavanyemo imyanda.

Umugore urwaye wicaye ku gitanda cyo kwa muganga imbere ye hahagaze abaganga bari kumusuzuma, kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze babashe kumwitaho bagendeye ku bisubizo babonye mu gihe bamusuzumye.

Umwana abona kuri robini ari koga intoki akoresheje amazi meza n'isabune kugirango akure umwanda ku ntoki, abashe kwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Umugore n'umugabo bicaye begeranye umugabo afashe ku rutugu rw'umugore we akunda ukundi kuboko yagufatishije ku nda umugore atwite, imbere yabo hicaye umujyanama w'ubuzima ari kubagira inama kugira ngo bite ku mwana batwite azavuke neza kandi bazamurere akure neza.

Abana bahagaze kuri robine amazi ari kumanuka bakaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, kugirango bakure imyanda ku ntoki birinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda.

Uruganda runini rurimo imashini zitandukanye zifashishwa mu gukora imiti kugira ngo igezwe ku isoko abarwayi babone aho bayigura mu buryo bworoshye kandi bakabona imiti yo kuvura abarwayi bitabagoye, bitabagombye, bitabasaba igihe kinini.

Inyubako zagenewe gukorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Mayange, giteye amarangi y'umuhondo. Mbere ya cyo hahagaze abantu benshi bari kubyina, babyishimiye kuko barimo kubona ubuvuzi hafi yabo mu buryo bworoshye kandi bitabagoye.

Abantu bagiye kuvoma amazi ku iriba ritunganyijwe neza, rizana amazi asukuye kandi yujuje ubuziranenge kugira ngo babone amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, birinda indwara zikwirakwizwa no gukoresha amazi mabi.

Abantu benshi bagiye ku ivomero, bitwaje amajerekani gushaka amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo kugira ngo birinde indwara zaturuka mu gukoresha amazi mabi yanduye, batonze umurongo bagenda bavomera umwe hajyaho undi kugira ngo birinde akavuyo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba, bateraniye hamwe bari mu nama, bari kwiga ku ngingo zitandukanye, bacecetse, batuje, bateze amatwi umuntu ubari imbere kugira ngo bumve ijambo abagezaho, ufite ikibazo akibaze kandi n'utanga inama cyangwa igitekerezo bamwumve.

Abanyamuryango bahuriye hamwe, bari mu nama baganira ku bibazo, kugira ngo bafashe abaturage gukomeza kubona ubuzima bwiza, babona ubuvuzi mu buryo bubegereye, kandi buboroheye hafi yabo, kugira ngo bose bivuze neza, hatagira abarembera mu rugo.

Abana benshi bateraniye hamwe, bari kuri robine bari kunywa amazi bayanywesha umunwa, babyigana kugira ngo ugezweho bwa mbere ariwe uyanywa kurusha abandi, bose babone amazi meza yo kunywa nta kibazo.

Abantu benshi bicaye bajyanye mu nama bambaye imipira isa, bacecetse, batuje, bateze amatwi umuntu ubari imbere, kugira ngo bumve ijambo abagezaho bose bacecetse, batuje ,kandi ufite ikibazo abashe kuba yakibaza cyangwa inama cyangwa inyunganizi ayitange.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini, bavuye mu nama, bari gufata ifoto y'urwibutso, bamwe bicaye abandi bahagaze kugira ngo izajye ubafasha kuzirikana ibyo biyemeje, n'inama bagiranye na yo bayifate nk'urwibutso cyangwa ikimenyetso kigaragaza ko iyo nama yabaye.

Abantu benshi bateranye bari kwifotoza harimo abasore n'inkumi, n'abagabo n'abagore harimo abambaye imipira isa y'ubururu bavuye mu nama bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo izabibutse ibyo baganiriyeho bazajye bahora babizirikana kandi babikurikiza.

Kugira ngo tugere ahazaza heza bidusaba gufatanya muri byose mu buzima no mu iterambere kuko umuntu umwe ntiyigira ahubwo iyo umuntu afatanyije n'abandi nibwo bagera kuri byinshi kandi bagatera imbere.

Umugore uhagaze afite ikarita mu ntoki iriho ikimenyetso cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mumwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu Rwanda kugira ngo abantu bahore babibuka bakomeze kubyitaho kugira ngo ibyo bitazongera kugaruka mu Rwanda turi amahoro tubayeho neza kandi dufite ubuzima bwiza.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bari kwiga ku bintu bitandukanye, bari kuganira ku biganiro byerekeranye n'ubuzima, hari umugore ubari imbere, ufite indangurumajwi mu ntoki, ari kubagezaho ibiganiro bose bacecetse, bateze amatwi bumva ibyo ababwira, kugira ngo ufite ikibazo akibaze, cyangwa ufite inama cyangwa igitekerezo nawe abe yagitanga.

Umwana wicaye ku ntebe wambaye inifomu y'ishuri wambaye ishati y'umweru na karuvati n'agakabutura k'umukara, ari guseka ari kurya biswi ubona ko afite ubuzima bwiza ntakibazo abayeho neza.

Umugore wo mu cyaro uhagaze ufite isuka mu ntoki avuye gukura ibijumba yikoreye igitebo ku mutwe kirimo imigozi y'ibijumba inyuma ye hari inzu y'amategura urabonako ari ahantu mu cyaro.

Abantu benshi bicaye mucyumba cy'inama bateranye, imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ibiganiro ari kubasobanurira bifashishije amajwi n'amashusho, kugira bose babashe gusobanukirwa kandi babyumvikaneho neza.

Abantu bicaye bateranye bari mu nama, hari umugore wamanitse agatoki ari gusaba ijambo kugirango ngo atange igitekerezo cyangwa inyunganizi, cyangwa ashaka kubaza ikibazo cyerekeranye n'ibyo bari bari kuganiraho kugira ngo bisobanuke neza.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba, bari mu nama, bateye intebe bakoze uruziga, kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'ubuzima, kandi bose batuje, hagati yabo harimo abari kubagezaho ibiganiro, abandi babateze amatwi, kugira ngo ufite ikibazo abaze, n'ufite inama cyangwa inyunganizi abe yayitanga.

Inyubako zikorerwamo n'ibitaro bya Munini kugira ngo byakire abaturage baturiye ibyo bitaro, babashe kubona ubuvuzi bwiza bugezweho kandi bwihuse, bitabasabye gusiragira bajya kwivuza ahantu kure cyangwa ngo bajye mu buvuzi bwa magendu, bushobora kubagiraho ingaruka mbi.

Umubyeyi uhagaze ateruye umwana mu ntoki yishimye ari guseka, ubona ko bafite ubuzima bwiza umwana we amwitayeho neza, nta kibazo cy'imirire mibi afite cyangwa ikindi.

Imodoka igezweho shyashya yifashishwa mu buvuzi n'ibitaro bigendanwa n'ibiririmo ibikoresho bya ngombwa byose bikenerwa kugira ngo bite ku murwayi, ikora mu gihe isanga abarwayi aho bari ikabegera bakabavura ku buryo bworoshye hafi yabo.

Abantu benshi bahagaze bateraniye hamwe bavuye mu gikorwa kimwe cyari cyabahuje bari kuganira ku biganiro byerekeranye n'ubuzima, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bizabashe gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje n'inama bagiranye.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bahagaze imbere yi meza iriho ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga hariho imiti amaga kugira ngo babashe gufasha ababagana kubaha ubuvuzi mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Abantu benshi bahagaze mu cyumba cy'inama, bishimiye ko inama bari barimo irangiye neza, bakaba bagize ibiganiro byiza, bakaba bafite inama bumvikanyeho n'imyanzuro bafashe, bari kubyishimira bameze neza banezerewe.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, harimo abambaye imipira isa y'umukara, bahuriye mu nama imwe bose bacecetse, batuje bateze amatwi bakumva umuntu bahagaze imbere ijambo abagezaho, kugira ngo ugira ikibazo abaze hamwe n'ufite igitekerezo cyangwa inyuganizi nawe yagitanga.

Mu Rwanda hari abantu benshi bagipfa biyahuye bitewe n'impamvu zitandukanye ziturutse ku bintu bitandukanye harimo imibereho mibi, ubuzima ndetse n'ibindi byinshi.

Umugore wicaye ahantu mu nzu, imbere ye hashasha umusambi yicaye ku gatebe, munsi y'idirishya ku gikuta harahumutse ari ahantu hadasa neza, hari umwanda ubona ko atishoboye.

Kugira ngo ugire amahoro mu bitekerezo mu kuba ufite ubuzima bwiza ubayeho neza, urya neza kandi ugakora siporo zihoraho, kandi ukaganira n'abantu nimba hari n'abo ushoboye gufasha ukabafasha, kugira ngo na bo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugore uhagaze yarakaye, witeze igitambaro cy'igitenge mu mutwe, wambaye n'amaherena ku matwi, atishimye ubona ko atanezerewe, hari ibintu byamubabaje kandi bitari byiza, bishobora gutuma umubiri we ugira ikibazo giturutse kuri uwo mujinya.

Abantu bahagaze, bari kwifotoza, bishimye baseka bavuye mu nama, bafashe imyanzuro myiza bose ibashimishije, bari kwifata ifoto y'urwibutso, bafite ikarita mu ntoki, igaragaza ibyo biyemeje kugira ngo bose bazabashe kubikurikiza neza.

Umwana uhagaze ari kumwe n'umuganga; inyuma yabo hahagaze abandi bantu; umwana afite igikanda cy'amenyo mu ntoki; muganga ari kumwigisha uko boza amenyo bakoresheje uburoso bwabugenewe; n'umuti woza amenyo.

Umwana wicaye ku ntebe yegamye, umutwe yawurebesheje hejuru yasamye, imbere ye hahagaze abaganga bari kumwitaho bamuvura, bafite ibikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo kandi byizewe kugira ngo bamufashe neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byabugenewe kwita ku murwayi, kugira ngo abone ubuvuzi bwiza kandi bugezweho bwizewe igihe bitamugoye, harimo imashini zabugenewe kandi zigezweho n'intebe yo kwicaraho.

Umusaza uhagaze imbere y'indorerwamo, ufite ibinini mu ntoki arimo abibara kugira ngo amenye ibyo ari bumywe bikwiriye, akomeze kwita ku buzima bwe akomeze kuba afite imbaraga kandi umubiri uhagaze neza mu buzima.

Icyumba kirimo imashini zitandukanye zifashishwa mu ubuvuzi bugezweho, harimo n'intebe umurwayi yicaraho akegama kugira ngo umuganga umuvura abashe kumubona neza mu maso mu buryo bworoshye, amufashe amuvure neza.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga imbere ye hari abaganga bari kumufasha bamuvura, kugira ngo bamwiteho abashe gukira vuba kandi abone ubuvuzi bugezweho, mu gihe kitamutindiye kandi cyihuse akaba yakira bitagoranye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zabugenewe, zifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku baturage barwaye, mu gihe cyoroshye kandi cyihuse, mu buryo bugezweho bakabona ubuvuzi bugendanye n'indwara bafite.

Umwana wicaye, imbere ye hari abaganga babiri bari kumuvura bamwitaho, yasamye kugira ngo amukure iryinyo mu gihe arirwaye abashe gutaha ameze neza yakize kandi bamwiteho bamukurikirane mu minsi ye akirwaye.

Umwana uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare afite uburoso mu ntoki bwagenewe koza amenyo ayo kubukoresha mu menyo yifashishije umuti wabugenewe kugira akuremo imyanda yaheze mu menyo nyuma yo kurya agomeze amere neza nta ndwara za yataka.

Umusaza wambaye isume y'umukara afite uburoso bwagenewe koza amenyo, ari kubukoresha akora isuku mu kanwa yifashishije umuti wabugenewe kugira ngo akuremo imyanda yafashemo nyuma yo kurya agume ameze neza kandi ayitaho.

Inyubako nini yubakishijwe ibirahure ikorerwamo n'ibitaro bivura amenyo, kugirango ngo bafashe abarwayi babagana kubona ubuvuzi bwihuse kandi bugezweho bakire vuba mu gihe gitoya.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho hari n'imashini zifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi n'intebe umurwayi yicaraho bari kumwitaho n'agatebe gato umuganga aba yicayeho mu gihe ari gufasha uwo murwayi amuvura.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, wambaye ubusa hejuru yasamye, mu ntoki afite akadodo k'umwiru yagafatishije amaboko yombi ari kugacisha mu menyo kugira ngo akuremo imyanda yafashemo ayakorere isuku.

Umugore uhagaze imbere y'indorerwamo, ateze igitambaro cy'umweru mu mutwe wambaye n'isengederi y'umweru, afite uburoso bwagenewe koza amenyo, ari kubukoresha asukura amenyo ye yifashishije umuti wabugenewe, kugira ngo ayakorere isuku ayarinde indwara zayataka.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, wambaye ubusa hejuru ufite isume ku rutugu ufite akadodo k'umweru mu ntoki, ari kugacisha mu menyo kugira ngo ayakorere isuku akure mo ibiryo byaba byasigayemo nyuma yo kurya, kandi aguma ameze neza nta kibazo.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, yasamye afite akadodo k'umweru mu ntoki, yagafatishije amaboko yombi, ari kugenda akanyuza mu menyo ye kugira ngo ayakorere isuku, akuremo imyanda yafashemo, mu gihe yari arimo arya, akomeze ayiteho, ameze neza.

Umusaza wicaye ku ntebe, imbere ye hicaye umukobwa uri kumwitaho, amuganiriza, amufasha gufata imiti no kuba yagira ubuzima bwiza, amukoresha siporo kugira ngo uwo musaza akomeze kubaho neza mu minsi yiwe.

Umugore uhagaranye n'umugabo uri kugendera mu mbago yifashisha mu gihe umuntu ari kwimenyereza agendesha amaguru mugihe yari amaze arwaye atayakoresha ayagendesha, bisaba kuyamenyereza gahoro gahoro kugira ngo agaruke mu buryo bwiza.

Umukecuru uri gukora siporo, kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza. Yita ku mubiri we kugira ngo ukomeze kuba ufite imbaraga kandi ukora neza. Iruhande rwe hari umukobwa urimo kumufasha, amwerekera uko bikorwa, kugira ngo abikore neza.

Umusaza n'umukecuru bicaye kumeza bari gufata ifunguro ryuzuye rimeze neza kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, byuyujuje ibisabwa bifite ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri kandi hariho imboga n'imbuto.

Umusaza wicaye ku ntebe wambaye agapfukamunwa, imbere ye hahagaze umuganga ufite igikoresho cyo kwa muganga bifashisha gupima umutima w'umuntu uko atera kugira ngo bamusuzume bamenye ko bamufasha mu mugihe babonye igisubizo.

Umukecuru ufite umusatsi w'umweru, wambaye amarinete, ahagararanye n'umuganga ufite mu ijosi igikoresho abaganga bifashisha mu gihe bari gupima umutima w'umuntu uko utera ari kuganira n'uwo mukecuru kugira ngo amufashe kuguma ameze neza mu mibereho ya buri munsi.

Umusaza wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, iruhande rwe hicaye umwana, bari gukina umukino, bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga baganira, kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, batekereza neza, kandi imibiri yabo ifite imbaraga.

Umusaza wicaye mu ntebe, imbere ye hicaye umuganga, yamushyizeho igipimo ku kuboko kugira ngo amusuzume amupime arebe uko umuvuduko w'mararaso we uhagaze, nabona igisubizo, amenye uko akomeza kumwitaho n'umuti agomba kumuha uko ungana n'ibyo agomba kumukorera.

Umusaza uhagaze wambaye ishati y'umweru irimo amabara y'umurongo y'umukara, ateruye umwana mu ntoki umwana ufite igipupe mu ntoki ari gukina nuwo musaza, bishimye ubona ko bameze neza nta kibazo bafite ubuzima bwiza.

Umukecuru uhagaze uri muri siporo afite utuwuma twifashishwa mu gukora siporo mu maboko yombi, yayazamuye imbere kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi yiyitaho, akomeze kuba afite imbaraga mu buzima bwa buri munsi.

Umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, inyuma ye hari umugore uri kumusunika bagenda baganira baseka bishimye, ubona ko bafite ubuzima bwiza nta kibazo cy'imibereho bafite kandi babanye neza.

Umusaza wicaye mu ntebe imbere hahagaze umuganga ari kumuganiriza umufasha kugira ngo akomeze amwiteho, ubuzima bwe bukomeze kumera neza amufasha no kunywa imiti mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umumama uri guhaguruka ku gitanda wambaye imyenda y'abarwayi kwa muganga, afite imbago bifashisha bagenderaho bafatishije amaboko yombi kugira ngo amenyereze amaguru kugenda mu gihe yari amaze igihe atayagendesha.

Umuryango w'abateranye bishimye, urimo umusaza n'umukecuru n'abana babo, bari kuganira baseka banezerewe bafite ubuzima bwiza nta kibazo bishimye.

Umusaza wicaye ari kumwe n'umukobwa, bari kureba muri telefone, umukobwa arimo kumusobanurira ibyo bari kureba, kugira ngo babashe kubikurikiza, umusaza yiyiteho akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukobwa wicaye wambaye umupira w'umukara yarambuye akaboko yagashyize ku meza, imbere ye hicaye muganga ari kumufasha amwitaho amuyobora, amusuzuma kugira ngo arebe ikibazo afite bamenye ubufasha bamuha bagendeye ku bisubizo bari bubone.

Abagabo babiri bahagaze bari gusuhuzanya bakorana mu ntoki, bishimira ko inama bari barimo igenze neza, amasezerano bagiranye, bose bazayubahiriza, kugira ngo bizababere urwibutso rw'uko ibyo bumvikanye bose bagomba kubyitaho, kandi bakabyubahiriza bikagenda neza.

Tugomba kwita ku bidukikije kugira ngo bimere neza natwe tubashe kumera neza, kuko mu gihe ibidukikije bitameze neza natwe ntabwo twamera neza, kuko umwuka duhumeka tuwukura ku bidukikije n'ibiti, bikadufasha kubona umwuka mwiza kugira ngo natwe dukomeze kubaho neza mu buryo bworoshye.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba kurya indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto ku buryo ifunguro afata riba ririho ibiteramba, ibirinda indwara ndetse n'ibyuyubaka umubiri.

Mu gihe cya kovide cumi n'icyenda kugira ngo bayirwanye ibashe kuba yacika burundu hari ibintu bitandukanye byagiye byifashishwa harimo kwirinda kuyikwirakwiza ndetse no gufata urukingo ku gihe kugira ngo abayandura bagabanuke.

Abantu bahagaze bafite imifuka igenewe gushyirwamo imyanda kugira ngo bite ku bidukikije bikomeze kuba bimeze neza, kandi natwe tubashe kubona umwuka umeze neza utunganye, utarimo imyanda. Harimo imifuka ijyamo imyanda ibora n'itabora.

Igihugu cy'u Rwanda, gifite intego yo kwita ku buzima bw'abaturage bacyo, kugira ngo bakomeze kubaho neza kandi batere imbere, kuko iyo ufite ubuzima bwiza nibwo utekereza neza, ukabasha no kuba wakora neza, bakabinyuza mu mashuri bigisha, kugira ngo abanyeshuri babone ubushobozi buhagije n'ubumenyi k'ubuvuzi.

Udukingirizo twifashishwa mu gihe abantu bagiye gukora imibonano mpuzabitsina batizeranye kugira ngo babashe kuba bakwirinda kuba bakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa gutera inda zitateguwe.

Abantu bateraniye mu nama bari kuganira ku biganiro byerekeranye n'ubuzima kugira ngo abantu bakomeze kubashishikariza no kubagira inama berekeranye no kwita ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abo babana kugira ngo bakomeze kubaho neza babashe kuba batera imbere.

Mu kurwanya covide cumi n'icyenda hifashishijwe ingamba zitandukanye harimo; kwambara agapfukamunwa, kwirinda gusuhuzanyaho bitari bigenewe, kwirinda kujya aho ariho hose hateraniye abantu benshi kandi no gufata urukingo ku gihe kugira ngo ukomeze kugabanya ibyago by'abandura.

Umunsi mpuzamahanga ugenewe kurwanya virusi itera sida kugira ngo abantu bakomeze kuyirinda ndetse gukomeza gukwirakwira mu batuye isi kuko igira ingaruka mbi harimo kubura ubuzima bw'abantu mu kugira ibindi bibazo by'imibereho bitandukanye.

Abaganga bambaye udupfukamuwa bari mucyumba imbere yabo hari imashini ziri kugaragaza amashusho bari kuvura umurwayi bamubaga bafatanya kugira ngo bamufashe bamuvure neza nta kibazo kibijemo.

Aba bantu ba bari kwifotoza harimo b'abakobwa bambaye imipirasa, bari bahuriye mu gikorwa kimwe, bari bari mu nama yerekeranye n'ubuzima bw'imyorokere kugira ngo babagire inama zo kwirinda kuba batwara inda batateguwe, kuko zigira ingaruka zitandukanye ku buzima bw'umukobwa batwa akiri muto.

Gufata urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda ni imwe mu ngamba zafashwe mu kugira ngo icibwe mu gihugu, kuko gufata urukingo ni imwe mu mpamvu zituma umubiri wawe wubaka ubudahangarwa bwo kuba wakandura icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bateze amatwi umugore ubahagaze imbere, ufite indangurumajwi mu ntoki kugira ngo bumve ijambo abagezaho, abafite ibibazo babe babibaza n'abafite inama cyangwa inyunganizi babe bayitanga bose babumva.

Umukecuru urwaye ijisho ukenyeye igitambaro baramuvuye ijisho bararibaze bashyiraho igipfuko bararipfuka cy'umweru kugira ngo rikire neza ntakindi kibazo kijemo nyuma y'uko baribaze.

Kuvuga ngo umuntu kugira ngo aba afite ubuzima bwiza bisaba kwiyitaho, akarya ifunguro ryuzuye kandi agakora siporo zihoraho, kugira ngo umubiri we ukomeze uri muri mudu nziza, nta kibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiryamyeho umurwayi, imbere ye hari umuganga uri kumwitaho, yamufashe ukuboko ari kumusuzuma kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, amenye icyo amufasha n'ukuntu akomeza kumukurikirana.

Ibitaro byakira abarwayi bafite ibibazo by'amaso kugira ngo babavure bakire neza, bifashishije ibikoresho bigezweho kugira ngo batange ubuvuzi bwizewe kandi mu gihe gitoya bitarambiranye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe bari kwita ku murwayi hari nk'igitanda umurwayi aryamaho, n'imashini bakoresha kugirango bamuhe ubuvuzi bwiza kandi bwizewe mu gihe gitoya bidatinze.

Inyubako zubatse ziteye amarangi y'umweru zisakajwe amabati y'ubururu zikorerwamo n'ikigo nderabuzima cyashagasha kugira ngo gifashe abaturage baturiye aho hafi kubona ubuvuzi bubegereye mu buryo bwihuse kandi vuba.

Abantu bahuriye mu cyumba bari mu nama, harimo abagore n'abagabo, bateze amatwi umuntu uba imbere, ari kubagezaho ijambo kugira ngo abasobanurire bose bacecetse kandi batuje, bateze amatwi kugira ngo ufite ikibazo aze kubaza cyangwa ufite inama cyangwa inyunganizi na we akaba yayitanga.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, zisakajwe amabati y'ubururu, zagenewe gukorerwamo n'ibitaro kwa muganga kugira ngo bafashe abaturage babagana kubona ubuvuzi ku buryo bworoshye kandi bubegereye, bitabasabye gusiragira ahantu henshi cyangwa ngo barembere mu rugo.

Inyubako nini isa neza igenewe gukorerwamo n'ibitaro ahantu bakirira abarwayi baje babagana n'aho bicara mu gihe bagitegereje gufashwa kugira ngo byorohe kandi babone ubuvuzi bwihuse bitabagoye.

Inzu nziza yubatse isa neza iteyemo amarangi y'umuhondo ikorerwamo n'ibitaro by'akarere iherereye ahitwa Ishyira kugira ngo byakire abaturage babashe kubona ubuvuzi bwihuse kandi bugezweho bitabagoye.

Ahantu bakirira abantu igihe baje kwivuza bashaka ubufasha hari intebe zabigenewe mwicara mu gihe batarakirwa bakari bakimva uko bagiye baza bakurikiranye kugira ngo babashe kubafasha ntakavuyo kajemo kandi buri wese bamwakire.

Inyubako zubatse zimeze neza amatara ari kwaka zagenewe gukorerwamo n'ibitaro kwa muganga kugira ngo bakire abaturage barwaye bakeneye ubuvuzi mu buryo bworoshye kandi bubegereye.

Inyubako zagenewe gukorerwamo n'ibitaro bya Butaro kugira ngo byakire abaturage babafashe kubona ubuvuzi bwiza, hari abaganga batandukanye kandi bahugukiye ubuvuzi kugira ngo bafashe abaturage mu gihe gitoya kandi byizewe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, kirimo imashini zifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo babahe ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe, harimo n'igitanda umurwayi aba aryamyeho mu gihe bari kumufasha bamuvura.

Inyubako yo kwa muganga yemye icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi barembye mu gihe bagiye kubabaga, bifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo bahe ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe buteye imbere.

Ikigo kinini kirimo inyubako zubatse neza, zisa n' zikorerwamo n'ibitaro bya Gihundwe, ahantu bavurira amaso, aho abarwayi bafite ibibazo by'amaso bajya kwivuza kugira ngo babone ubuvuzi bwiza, bubegereye kandi bwizewe mu gihe gitoya.

Umwana bashyize ku munzani bari kumupima ibiro ngo barebe imikurire ye niba imyaka afite n'ibiro afite bihuye, kugira ngo barebe niba atari mu mirire mibi bakaba bakeneye kuyongera cyangwa niba ameze neza bakomereze aho.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakirwamo abana b'impinja kugira ngo babiteho babakurikirane mu mikurire yabo, nta kibazo bagize bazabashe gukura neza imibiri yabo ikora neza kandi bafite imbaraga nta kibazo.

Inyubako zubatse neza zifite isuku, zagenewe gukorerwamo n'ibitaro kwa muganga kugira ngo bakire abaturage, babafashe babahe ubuvuzi bugezweho kandi bwihuse babegereye, bitabasabye kujya kure cyangwa gukora izindi ngendo zitari ngombwa.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza gisa neza kirimo isuku giteyemo imashini igezweho yifashishwa mu buvuzi mu gihe bari gusuzuma umurwayi bamucisha mu cyuma kugira ngo bamupime imbere mu mubiri barebe niba nta ndwara afitemo bamenye ko bamwitaho n'uko bamufasha.

Inyubako ikorerwamo na farumasi kugira ngo icuruze imiti, abayikeneye bayibone hafi yabo ku buryo buboroheye kandi itabahenze. Mu gihe uyandikiwe cyangwa ukeneye kuyigura yayibona hafi ye.

Inyubako nziza zubatse neza zifite isuku zahagenewe gukorerwamo n'ibitaro hakorerwamo ibitaro by'akarere ka Nyarugenge kugira ngo bakire abaturage bafite ibibazo by'uburwayi, baje babagana babahe ubuvuzi bwiza kandi bugezweho.

Abantu benshi bicaye bari ku ntebe bagiye batandukanye bashyize umwanya hagati yabo, bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde kuba bakanduzanya icyorezo, bari kujya kwipimisha abandi bafata urukingo.

Ni umugabo uhagaze mu cyumba cy'inama giteraniramo abantu benshi, imbere ye hicaye abantu bamuteze amatwi, ari kubasobanurira bifashishije amashusho ari kukibaho kimuri imbere kugira ngo ibintu byose bibashe gusobanuka neza kandi na we babyumve ku buryo bworoshye.

Inyubako z'i karayesi zifashishwa mu kwakira abaturage bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo babavure, babaganize, babahe imiti ikenewe, ku buryo bashobora gusubira kubana n'abantu mu buzima busanzwe nta kibazo.

Umusaza wicaye ku ntebe, imbere ye ku meza hicaye umuganga ari kumusuzuma yamushyize igipimo ku kuboko kugira ngo arebe umuvuduko w'amaraso uko ahagaze, amenye ubufasha bamuha nibasanga afite ikibazo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byagenewe gukoreshwa siporo harimo ibyuma byo guterura ,amagare yo kunyonga na tapi zo kwirukankaho zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, igeretse kabiri, yagenewe gukorerwamo n'ibitaro byigenga kugira ngo bifashe abaturage babigana kubona ubuvuzi bwiza kandi bugezweho, mu gihe cyoroshye kandi cyihuse.

Ikigo kirimo inyubako nyinshi zitandukanye zubatse neza, zagenewe gukorerwamo n'ibitaro kugira ngo bibashe guha abarwayi ubuvuzi bwiza kandi bugezweho, bubegereye mu gihe kitabaguye bitabasabye ibintu byinshi.

Umuntu wicaye ku gitanda kwa muganga arwaye, impande ye hari imashini bazimucometse ku kuboko, kugira ngo zikomeze kumufasha kubona ubuvuzi no kumuha umuti mu buryo bworoshye, umugeremo neza.

Inyubako iherereye i Remera ikorerwamo na farumasi icuruza imiti y'abantu kugira ngo umurwayi wayandikiwe na muganga cyangwa umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi abone aho ajya kugura imiti hafi ye bimwegereye kandi ihendutse ku buryo bworoshye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo utubati twagenewe kubika amashashi bashyiramo amaraso kugira ngo atangirika, bazayakuremo bagiye kuyakoresha bayaha umurwayi wabuze amaraso menshi kandi ayakeneye, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Abaganga bateraniye mu cyumba kimwe benshi, imbere yabo hari umurwayi uryamye ku gitanda bari kumufasha bamuvura kugirango ngo abone ubuvuzi bwihuse kandi bugezweho, mu gihe bitamuvunnye kandi bitamugoye, akabasha kuba yakira vuba.

Umuganga wicaye imbere ye ku meza hateretse mashini, ari kuyikoresha kugira ngo atange ubuvuzi ku murwayi waje amugana bwiza kandi bugezweho, yifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo amufashe amwakire.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zigezweho, zifashishwa mu buvuzi kugira ngo bafashe abarwayi kubasuzuma ku buryo bwiza kandi bwizewe, bakabacisha mu cyuma bakamenya indwara barwaye imbere mu mubiri, bitagoranye kandi byihuse.

Ikigo gishinzwe kugenzura no gukora ubushakashatsi ku byorezo muri Afurika kugira ngo bakomeze kubyirinda no kurinda abantu ko byakwirakwira binyuze mu bantu cyangwa mu nyamaswa kandi no kubishakira umuti cyangwa urukingo.

Inyubako nini yagenewe gukorerwamo n'ibitaro kugira ngo bakire abaturageba aho babona buvuzi bugezweho kandi bwihuse, abashe kubafasha mu byo bakora kandi babavureterabwoye cyangwa ngo bibasaba igihe kinini.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kuryamwamo n'abarwayi mu gihe bari mu bitaro, harimo ibitanda bigiye bitandukanye, kandi kuri buri gitanda hamanitse supanineti, kugira ngo umurwayi yirinde malaria n'izindi ndwara.

Ahantu hateguwe neza, hari n'ibitanda bitandukanye, hari n'abaganga bagiye gushaka amaraso mu baturage kugira ngo babone ayo kwifashisha mu gihe hari umurwayi uri kwa muganga wabuzeho amaraso menshi, akaba akeneye andi bamwongerera, abashe kuboneka mu buryo bworoshye.

Inyubako nini isa neza ifite isuku yagenewe gukorerwa mu ubushakashatsi ku ndwara ya malariya, kugira ngo abantu babone ubuvuzi bwihuse kuri iyo ndwara, bidatinze kandi byizewe.

Inyubako zikorerwamo n'ibitaro byigenga bya legasi kugira ngo bifashe ababigana abaturage barwaye kubaha ubuvuzi bugezweho kandi bwihuse mu gihe gitoya bitabavunnye bitabasabye igihe kirekire.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda giteguye neza gishasheho amashuka y'umweru, impande yacyo hari imashini zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho, kugira ngo umurwayi uharwariye avurwe neza kandi bamwiteho akire vuba mu gihe kitarambiranye.

Ikigo kinini kirimo ubusitani, muri ubwo bustani hateyemo iminyenga abana bifashisha bari kuyirya, kugira ngo bakomeze kwishima bakora siporo bidagadura bakomeze kugira ubuzima bwiza, biyitaho kandi banezerewe.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, byagenewe gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura umuntu ari gukora siporo, amagare yo kunyonga n'imigozi yo gusimbuka, harimo n'ibindi bitandukanye kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza akora siporo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zifashishwa kugira ngo abaganga bahe ubuvuzi abarwayi babagannye bwiza kandi bugezweho, imbere y'izo mashini hari umuganga uri kuzirebaho, uri kuzikoresha.

Inyubako bikorerwamo n'ibitaro bya Karayezi, bishinzwe kwita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, kugira ngo babavure babafashe kuba basubira mu buzima busanzwe bameze neza nta kibazo, nta ngaruka batera ku baturage baturanye.

Inyubako nini igenewe gukorerwa na siporo, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo kugira ngo umuntu ameze agire ubuzima bwiza, irimo ibyuma byo guterura, imigozi yo gusimbuka n'amagare yo kunyonga n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugabo wicaye munsi y'igiti mu gacucu ari gutekereza, agira ngo aruhure umutwe n'ubwonko abasha kugira ubuzima bwiza n'ibitekerezo bye bibasha gukomera ari byiza, nta kavuyo kenshi afite mu mutwe.

Isange wani sitopu senta ikigo gishinzwe gufasha abantu bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugira ngo babavure babiteho babaganirize kandi babafashe no gukurikirana uwakoze icyo cyaha kugira ngo agezwe mu nkiko abe yabihanirwa hari ibimenyetso bifatika.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, harimo imashini zabugenewe kandi zigezweho, harimo n'intebe umurwayi yicaraho mu gihe umuganga ari kumufasha kumuvura amuha ubuvuzi bugezweho kandi bwihuse.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo igitanda kirimo n'imashini yifashishwa mu kuvura umurwayi, ku gikuta cy'iki cyumba hakaba hashushanyijeho ibishushanyo byifashishwa mu kurangaza abana kuko icyo cyumba cyagenewe kwakira abana barwaye.

Abantu bateranye bahagaze imbere y'inyubako yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi kugira ngo barebe indwara zitandukanye n'imiti yazivura mu buryo bworoshye kandi bwizewe kugira ngo ibe yashyirwa ku isoko abayikeneye babe bayigura.

Inyubako nziza yubatse ifite isuku arimo icyumba kinini cyagenewe kwita ku barwayi, kugirango babahe ubuvuzi bwiza kandi bugezweho mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Icyumba cyo kwa muganga giteguwe neza, kirimo isuku, kirimo imashini yabugenewe yifashishwa mu kuvura umurwayi bamusuzuma kugira ngo bamucishe mu cyuma barebe indwara yaba bafite imbere mu mubiri, babashe kumenya uko bamufasha bitewe n'ibisubizo babonye.

Umuntu wari uri muri siporo ari gukina umukino, akaba agize ikibazo akavunika, bamwicaje ku kagare batwaraho abantu bavunitse, mu gihe bari mu kibuga, badashoboye kwigenza n'amaguru, bakajya kubaha ubuvuzi bw'ibanze, mbere y'uko bagezwa kwa muganga cyangwa se ku bitaro.

Umuntu ukora siporo aba agomba no kurya neza kugira ngo umubiri we ukomeze kugira imbaraga, agafate ifunguro ryuzuye rifite ibitera imbaraga, ibirinda indwara, n'ibyubaka umubiri, kugira ngo akomeze kuba ameze neza ahagaze neza.

Abantu benshi bateranye bari kureba umupira wo gukina bakina bakoresheje amaboko bari gufana baserebura bishimye, banezerewe, bameze neza nta kibazo baryohewe kugira ngo bakomeze gutuma ubuzima bwabo bumera neza kandi buryoshye.

Umuntu ufite amazi mu icupa rya palasitike ari kuyasuka mu kirahure ngo ayanywe akomeze kwita ku buzima bwe, umubiri we ukomeza gukora neza kandi ufite imbaraga zihagije kuko yawitayeho.

Hari imikino abantu bakina, iba irimo impanuka nyinshi ku buryo umukinnyi atirinze ngo yambare ibikoresho bimufasha kuba afite ubwirinzi buhagije, ashobora kubyangikiramo akaba yabivunikiramo bikomeye cyane akaba yabikuramo ubumuga.

Abantu benshi bateraniye mu kibuga bambaye imyenda ya siporo, bari muri siporo kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, umubiri wabo ugume ufite imbaraga nta kibazo bafite.

Umugabo uri muri siporo wambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'umukara iciyemo amabara y'umweru n'ikweto z'umweru wambaye koteri mu matwi, ari muri siporo arikugira ngo umubiri we ukomeze umere neza nta kibazo afite.

Umugabo uhagaze, wambaye umupira w'ubururu, ari kunywa amazi, igihe yari ari muri siporo ahagaze kugira ngo umubiri we uruhuke, wongere utore imbaraga, abashe kuba yakomeza gukora siporo, umubiri we umeze neza nta kibazo afite, kandi ufite imbaraga zihagije.

Umugabo uri muri siporo uhagaze, wambaye isengeri y'umukara, ari kurambura amaboko ayakoza mu bitugu, ukundi kuboko yagufatishije ukundi mu nkokora kugira ngo akomeze kwirambura, ari na ko akora siporo, ubuzima bwe bukomeza kugenda neza, umubiri we ukomeza kuba ufite imbaraga ntaki kibazo.

Icupa ry'umweru ririmo umuti wifashishwa mu kuvura abantu, aho uwukoresha mu gihe ushaka kugabanya uburibwe ahantu umuntu ari kubabara, kandi kuri iryo cupa handitseho izina ry'umuti nuko ukoreshwa, mu rwego rwo kwirinda kuba wakoreshwa nabi.

Imeza iteretseho ibintu bitandukanye byose byerekeranye n'ubuzima, harimo imboga n'imbuto abantu barya kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza n'ibyuma byifashishwa mu gukora siporo n'icupa ry'amazi n'imidari baha abantu bagiye bakina imikino itandukanye bagatsinda.

Umuntu wambaye ga muntoki, kugira ngo yirinde muri siporro agiye gukora, ko hari ibintu byamwangiza mu kiganza, bikaba byamugirira nabi, bikamukomeretsa, ndetse bikaba byamutera ubundi burwayi butandukanye.

Umugore wicaye ku bitanda byo kwa muganga, aho bakirira abarwayi bari mu bitaro kugira ngo babe baharyamye, impande ye hicaye umwana ubona yishimye ameze neza ari kugenda akira, bari bamujyanye kwa muganga bamufashije.

Umuntu wiriwe mu nzu yicaye akora akazi, hari ibintu by'ingenzi agomba gukora kugira ngo arinde urutirigongo rwe ko rwakangirika, arugorora yifashishije siporo zitandukanye, kugira ngo rukomeze kumera neza, kandi arurinde indwara zitandukanye za rwataka.

Umugabo uhagaze uri muri kureba muri siporo, wambaye ikabutura y'umukara irimo amabara y'umweru, wambaye n'umupira w'umukara ari kugenda asimbuka imigozi batambitse hasi kugirango akomeze agire ubuzima bwiza, kandi yite ku mubiri we ukomeze umeze neza ufite imbaraga.

Umugore uri muri siporo wambaye isengeri, ufite isume ku rutugu, ari kunywa amazi kugira ngo umubiri uruhuke, yari ananiwe imbaraga zashize, ashaka ko umubiri utora imbaraga kugira ngo akomeze siporo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu kuvura umurwayi ku buryo bwizewe, harimo imashini bakoresha basuzuma umuntu imbere mu mubiri kugira ngo barebe uko ahagaze, nibabona ibisubizo, bamenye uko bamufasha n'uko bamwitaho.

Utubati dupakiyemo imiti iri mu dukarito, kamwe hejuru y'akandi, kandi kuri buri gikarito kigiye cyanditseho izina ry'umuti n'ukuntu ukoreshwa kugira ngo ugiye kuwugura uwutandukanye n'uwundi batamuha utari wo ukaba wamugiraho ingaruka.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye imyenda ya siporo wambaye ikabutura yumweru irimo namabara atukura numupira wumukara yarambuye ukuguru kumwe ukundi yakuzamuye yagushyize ku rutugu rwumugabo um, uhagaze iruhande kugirango abashe kumugorora ukuguru kwagize ikibazo muburyo bworoshye.

Umugore wicaye ku gitanda wambaye umpira w'amaboko maremare yakomeretse ku ivi bashyizeho igipfuku kugira ngo igisebe akirinde kuba cyajyamo imyanda kibashe kuba cyakira vuba nta zindi ngaruka zijimo.

Ineza iteretse ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza. Harimo ibyuma bikoreshwa umuntu ari muri siporo n'imboga n'imbuto umuntu arya kugira ngo akomeze gufata ibiryo byuzuye intungamubiri zihagije akomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uhagaze uri muri siporo wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, ufite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyimenaho mu maso kugira ngo umubiri utorere imbaraga, abashe kuba yakora siporo neza afite imbaraga zihagije.

Mu gihe umuntu ari gukora siporo, aba afite ibintu agomba kwitaho kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, kandi siporo yakoze zimugirire umumaro, aba agomba kurya indyo yuzuye ifite imboga n'imbuto, kandi yujuje intungamubiri zose zikenewe kugira ngo umubiri umere neza.

Imeza iteretse ibikoresho bitandukanye n'imiti byifashishwa mu buvuzi, kugira ngo umurwayi ugize ikibazo bamufashe ku buryo bwihuse mbere y'uko yaba yagezwa kwa muganga ataragira ikibazo akiri ku bitaro.

Umuryango wa Kuruwa ruje ukorera mu Rwanda, ufasha gutanga ubutabazi bw'ibanze, ahantu hari bagize ikibazo kugira ngo babafashe mbere y'uko bagezwa kwa muganga mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umuntu wavunitse mu ivi wicaye yazamuye ipantaro. Afite ipamba ry'ubururu mu ntoki ari kugenda arikandisha aho yavunitse, afite uburibwe kugira ngo bugabanuke kandi yirinde no kuba yabyimbirwa mu buryo bworoshye.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, harimo akarongo k'umweru n'umukara, cyifashishwa mu gutwara ibikoresho n'imiti bakoresha iyo bari gutanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu agize ikibazo, mbere y'uko agezwa kwa muganga cyangwa ku bitaro.

Umugabo wicaye ku ntebe yagenewe kwitorezwaho gukora siporo imenyereza amaguru ari guterura ibyuma abiteruje amaguru kugira ngo abashe kuyamenyereza asubire mu murongo mwiza mu gihe yari amaze atayagendesha.

Umuntu wicaye ku gitanda wagize ikibazo cyo kuvunika, imbere hagaze umuganga ari kumuvura umuhambira bande mu kirenge, kugira ngo igufwa ryagize ikibazo ribashe kuba ryasubirana vuba ritazagira ikibazo cyaturukamo kumugara.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara, ufite umupira wo gukina mu ntoki avuye muri siporo ameze neza kandi ubona nta kibazo afite ,ubuzima bwe bugenda neza cyane.

Umugore uhagaze ku zuba wunamye wambaye isengeri y'icyatsi kibisi n'ikabutura y'umweru n'ikweto z'icyatsi kibisi uri muri siporo, ari kuruhuka mu gihe umubiri wari unaniwe kugira ngo wongere ugarure imbaraga abashe kuba yakomeza gukora siporo agira ubuzima bwiza.

Nk'umugore wicaye uri gukora siporo wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara ufite terefone ku kuboko wambaye n'inkweto zifunze z'umutuku yarambuye ukuguru kumwe ukundi yaguhinnye ukuguru kurambuye yagufatishijeho amaboko arikunama agakoza umutwe ku ivi.

Inkweto zikomeye, zifashishwa igihe umuntu agiye mu kazi azambara ahantu hari ibibazo bishobora kuba byamwangiza n'imisumari cyangwa amabati akamukeba. Cyagwa n'ibindi bibazo, kugira ngo akomeze arinde ubuzima bwe kuba yagira impanuka ziturutse kuba byamujomba cyangwa bikamukeba ku birenge.

Abaganga bari mucyumba bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa, bambaye n'ingofero mu mutwe, bari kuvura umuntu uryamye ku gitanda kugira ngo bamubage neza kandi bamufashe abashe gukira vuba.

Ibikapu bifite amabara atukura byifashishwa mu gutwaramo ibikoresho bakoresha mu gihe bari gutanga ubufasha bw'ibanze, mu gihe hari umuntu ugize ikibazo bakaba bamufasha mbere y'uko agezwa kwa muganga. Harimo ibikoresho bitandukanye n'imiti y'ibanze.

Umugabo uri muri siporo wambaye isengeri n'ikabutura ari kugenda asimbuka imigozi barambuye hasi bagiye bayikoramo utuzu, ava mu kazu kamwe ajya mu kandi kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza kandi yiyiteho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Inkoni zifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona kugira ngo bibafashe kuba bagenda ahantu batahareba bazikoresheje zikabayobora neza ku buryo ziberekeza ahantu hamwe zibavanye ahandi nta kibazo bafite mu gihe bamaze kumenyera kuzikoresha mu buryo bworoshye.

Akagare kifas hishwa mu gihe bari gufasha bakamwitaho

Umugore uhagaze ku zuba yashyushye yakuyemo umupira yawushyize ku rutugu, yambaye agasengeri afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyanywa, kugira ngo umubiri ugarure imbaraga abashe kuba yakomeza gukora siporo ntakibazo.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo isuku kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku murwayi, harimo imashini zigezweho n'intebe umurwayi yicaraho akegama mu gihe bari kumuvura, kugira ngo muganga abe areba aho ari kumuvura neza.

Ibikoresho biteretse ku meza bitandukanye bishobora kwifashishwa mu gihe burikuvura muntu, hari ubugingo adafite, bakabambaha igikoresho cyatunganijwe kimeze neza cy'insimburangingo kugira ngo akomeze ubuzima ameze neza nta kibazo.

Abantu ba siporo bari kwitoza bagira ngo imibiri yabo ikomeze kuba imeze neza bobone uko bakina umupira bameze neza nta kibazo bafite imbaraga mu mubiri bahagaze neza.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gihe bari gupima umurwayi bareba uko umubiri uhagaze kugira ngo barebe nimba afite ikibazo bamenye uko bamufasha, kandi niba ameze neza akomereze aho yizeye kandi ashikamye.

Umugore uhagaze ku mazi uri muri siporo wambaye ikabutura y'ubururu n'isengeri y'ubururu n'inkweto z'ubururu yazamuye ukuguru kumwe yagufatishije amaboko ayafatiye mu ivi ari kwigorora kugirango akomeze agire ubuzima bwiza.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu kuko agize igice kinini ku mubiri kandi bituma ukora neza iyo wafashe amazi mu gihe cya nyacyo kandi ahagije bigatuma ukomeza kuba ufite ubuzima bwiza kandi umubiri ufite imbaraga.

Umuntu uryamye ku gitanda yarambuye ukuguru ukundi yaguhinnye, imbere ye hahagaze umuganga ufite igitambaro cy'ubururu mu ntoki, ari kumukanda mu ivi ahantu yavunitse kugira ngo agabanye uburibwe burimo kandi amurinde kuba habyimbirwa

Hari ibintu bashyizeho kugira ngo barinde abakinnyi bakora siporo zitandukanye zirimo: izo kwiruka, bakina umupira w'amaguru, guterana ibipfunsi kubarinda gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo bitabagiraho ingaruka kandi bakora siporo bazikora neza.

Bande ifite ibara ritukura yifashishwa mu kuvura umuntu wagize imvune, bakayihambira aho yavunitse, kugira ngo igufwa risubirane kandi uburibwe bugabanuke no kwirinda kuba habyimba hakaba hagira ikindi kibazo.

Umugabo uhagaze ari kunywa amazi wari uri muri siporo, wambaye umupira w'ikigina mu gihe ari kuruhuka kugira ngo umubiri ugarure imbaraga, abe yakomeza siporo ameze neza nta kibazo afite.

Umugabo wicaye ku gitanda, yarambuye ukuboko yavunitse, afite ipamba ry'ubururu, arikurikandisha mu nkokora y'ukuboko kwe kugira ngo uburibwe burimo bugabanuke, kandi aharinde kuba habyimbirwa cyangwa hagira ikindi kibazo giturutse ku mvune yagize.

Indege itagira abapilote yifashishwa mu buvuzi kugira ngo itware amaraso iyavana ku bitaro bimwe iyajyana ku bindi mu buryo bworoshye kandi bwihuse mu gihe gitoya, akaba yava hamwe akagera ahandi.

Umugore wicaye wambaye ipantaro y'umukara n'insengeri y'umukara, ari muri siporo, ari kwinanura kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza kandi umubiri we ukomeze ufite imbaraga ukomeye, imbere ye hari icupa ry'amazi ari kunywa kugira ngo yiyiteho.

Umuntu ufite amazi, ari kuyasuka mu kirahuri gitetse ku meza, kugira ngo ayo mazi ayanywe, akomeze kwita ku buzima bwe, kuko amazi ari ingenzi ku mubiri w'umuntu, agize igice kinini, kandi agatuma umubiri ukora neza, n'umuntu yirinda n'idwara, zaturuka ku mwuma.

Nk'igikapu gifite ibara ry'umutuku cyifashishwa mu kubikamo ibikoresho by'ibanze bakoresha mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze iyo hari umuntu ugize ikibazo mbere yuko agezwa kwa muganga akaba yafashwa kugira ngo adakomeza kuremba.

Umugore uri gukora siporo wicaye hasi wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara n'inkweto zifunze z'umweru afite terefone ku kuboko wambaye na ekuteri mu matwi yarambuye ukuguru ari kwigorora kugirango ngo umubiri ni we ukomeze kumera neza nta kibazo afite cyaturuka ku kudakora siporo.

Bande ifite ibara ry'ubururu bifashisha mu kuzirika umuntu ahantu yavunitse igihe yakomeretse kugira ngo bamurinde ko hagira ikindi kibazo kandi amagufwa yatandukanye abe yasubirana mu gihe gitoya kandi bimurinde no kuba yabyimbirwa.

Umugore uhagaze kuri tapi arimo yirukanka ari muri siporo, wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'icyatsi kibisi, ari gukora siporo asunika ikintu yirukanka kugira ngo akoreshe imbaraga nyinshi umubiri nawo ukomeza kugenda akomera ariko bishobora kumera neza.

Umugabo wavunitse ukuguru yicaye ku meza imbere ye hari umuganga uri kumwitaho amuhambira aho bande, kugira ngo amagufwa asubirane vuba kandi mu buryo bwizewe ku buryo nta zindi ngaruka zaza nyuma zo kuba yagira ubumuga.

Icupa riteretse ku meza risa umuhondo n''umuti wa gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi uwo muti kuri iryo cupa hakaba hariho amagambo yanditseho agaragaza izina ry'uwo muti n'uko ukoreshwa kugira ngo uwifashishije utamugiraho ingaruka.

Amacupa ari y'imiti yateguwe hifashishijwe ibimera kugira ngo bavure abantu bizewe kandi mu buryo bwihuse bitagoranye kandi idahenze.

Ibiti bifite ibibabi binini by'icyatsi kibisi bifite n'indabyo z'umweru, bifite n'amabara y'umuhondo n'umutuku byifashishwa mu gukora imiti ya agakondo kugirango bivure indwara zitandukanye mu gihe yateguwe neza.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo, harimo ibibabi, imbuto kandi bifite amabara atandukanye, mu gihe byateguwe neza bigakurwamo imiti itandukanye ivura indwara kandi ku buryo bwizewe.

Umugore uhagaze ukenyeye igitenge imbere hari ibimera bifite ibibabi by' icyatsi kibisi n' indabyo zitukura byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza bikaba byavanwemo imiti yizewe ivura indwara zitandukanye.

Icupa ririmo amavuta yifashishwa nk'umuti basiga ku ruhu kugira ngo avure indwara zitandukanye zifata uruhu kandi yateguwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo byizewe.

Icupa ry'umweru ririmo imiti yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira umurwayi abashe kuba yayifashisha mu kwivura mu buryo bwizewe kandi bugezweho.

Tangawize ni zimwe mu mbuto zifashishwa mu gukora imiti itandukanye ya gakondo kuko zivura indwara zitandukanye, mu gihe yateguwe neza n'umuntu ubizi kandi byemejwe ko abishoboye n'imiti yategura nta ngaruka yagira ku buzima bw'umuntu wayikoresheje.

Amacupa atandukanye arimo imiti yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo ishyirwa mu macupa yabugenewe kandi yizewe kugira ngo abashe kuba yaguma ari muzima yujuje ubuziranenge kandi kuri buri cupa hariho icyapa kigaragaza izina ry'umuti

Umuntu wicaye; imbere ye hateretse isekuru yifashishwa mu gusekura imiti ya gakondo, harimo ibibabi bitandukanye, n'imbuto, n'ibiti; kugira ngo babitegure neza babikuremo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibibabi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza, bigakorwamo imiti yujuje ubuziranenge kandi yizewe, ku buryo umuntu urwaye yawukoresha ukamukiza ku buryo bwizewe vuba kandi neza.

Agashashi karimo imiti yatunganyijwe neza igashyirwamo kugira ngo ibikwemo uzayikoresha azayikoreshe ayikuyemo kandi kuri iyo shashi handitseho amagambo asobanura umuti urimo n'uko ukora n'izina ryawo kugira ngo uwuguze agiye kuwukoresha abyiteho.

Icyatsi gifite amababi y'icyatsi kibisi n'indabyo z'umweru n'umuhondo, cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe yatunganyijwe neza, igashyirwa mu bikoresho byabugenewe ku buryo iguma ifite ubuziranenge, kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyemeje ko nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu, ikaba yakoreshwa.

Udukarito turimo amajyane yifashishwa mu gukora icyayi kirikoreshwa nk'umuti kugira ngo kivure indwara zitandukanye mu gihe umuntu yagifashe ku buryo bukwiriye bwagenwe ku ngano nziza.

Ibyatsi n'amashami yabyo n'ibibabi byabyo byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byasaruwe neza bigatunganywa, bigashyirwa mu bikoresho byabugenewe bikemezwa ko nta ngaruka bifite ku buzima bw'umuntu bikaba byakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibibabi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byahurijwe hamwe bigategurwa neza, bigatunganywa, bikavanwamo umuti uvura indwara zitandukanye kandi wizewe.

Amacupa arimo imiti itandukanye yateguwe hifashishijwe ikawa kugira ngo izavure indwara zitandukanye mu gihe yatunganyijwe neza igakurwamo imiti yizewe ku buryo yakoreshwa n'umuntu urwaye ikaba itamugiraho ingaruka.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo harimo ibiti, ibibabi, n'imbuto n'indabyo zabyo iyo bitunganyijwe neza bigashyira mu bikoresho byabugenewe kugira ngo bigume bifite ubuziranenge bikaba byakwifashishwa bigakorwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Amacupa arimo umuti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo imiti ivura mu ngingo, mu rutigongo, mu mavi, mu nkokora ahantu hatandukanye kugirango uburibwe burimo bubashe kuba bwashira.

Icupa ririmo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, wateguwe neza kandi ku buryo bwizewe kuburyo abawukoresha aba afite amahirwe menshi yo gukira nta kibazo afite ahuye nacyo gitewe n'uwo muti.

Umuntu wicaye ku ntebe wambaye ishati y'umweru mu ntoki ze afitemo igikarito kirimo umuti mukundi kuboko afite agashashi karimo ibinini byatunganyijwe hifashishijejwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo bikorwemo imiti yavura indwara zitandukanye kandi yizewe.

Amacupa ateretse ku meza, arimo imiti itandukanye, yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo abantu bakomeze kuyikoresha bivura indwara zitandukanye, kuko yizewe kandi ifite ubuziranenge.

Igiti cy'umuravumba cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe itunganijwe neza ishyirwa mu bikoresho byabugenewe, bituma iguma ifite ubuziranenge, ikaba yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi yizewe.

Icupa ririmo umuti uvura indwara zitandukanye zigiye zanditse ku gipapuro cyometse kuri iryo cupa, harimo indwara uvura mu kurangiza vuba, gucika intege mu gihe umugabo ari gutera akabariro ndetse n'izindi.

Amashami y'ibiti n'ibibabi byabyo byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza, bikaba bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye bitewe n'icyo uwo muti bawuteguriwe kuvura.

Ahantu hanini bahumbitse ingemwe mu bihoho, zirimo ibiti kugira ngo bizavanwemo bijye guterwa ahantu habugenewe, kuko ibyo biti amababi yabyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, kugirango ngo ivure indwara zitandukanye.

Akabati karimo amacupa atandukanye agiye arimo imiti ya gakondo, kandi kuri buri cupa hometseho igipapuro cyanditseho izina ry'umuti n'uko ukoreshwa, kugira ngo uwuguze agiye kuwifashisha amenye uburyo bwo kuwukoresha ku buryo bitamugiraho ingaruka.

Amacupa ateretse ku meza atandukanye arimo imiti yatunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ivure indwara zitandukanye kuko yujuje ubuziranenge kandi yizewe.

Agacupa k'umweru, gafite umufuniko w'ubururu, karimo umuti, kandi kuri iryo cupa handitseho amagambo agaragaza izina ry'uwo muti riri muri iryo cupa, n'uko ukoreshwa, kugira ngo uwuguze agiye kuwukoresha, amenye uko awukoresha neza bitamugizeho ingaruka.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye harimo imboga n'imbuto n'umuti wifashishwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza kandi akomeze kwirinda indwara zaterwa n'imirire mibi biturutse kutarya indyo yuzuye.

Ibiti bitandukanye birimo imbuto, ibibabi byabyo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu gihe byasoromwe, bigatunganywa neza. Bikaba bivanwa n'imiti ivura indwara, bifashishije ibikoresho bya gakondo.

Icupa ririmo umuti ryifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, kandi kugira ngo umuntu akomeze kuba ameze neza, afite ubuzima bwiza nta kibazo.

Amacupamo arimo imiti itandukanye, yateguwe neza hakoreshejwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ibe yavura indwara zitandukanye kandi yizewe ku buryo umuntu yayikoresha, ntangaruka mbi bifite ku buzima bw'umuntu.

Ibibabi by'urubuto bita urumogi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, n'imiti isanzwe mu gihe byateguwe neza bigatunganywa ikigo gishinzwe imiti kikemeza ko nta ngaruka mbi gifite ku buzima bw'umuntu ikaba yakoreshwa ntakibazo.

Ibikarito biteretse ku meza birimo imiti, byifashishwa mu kuvura indwara kandi kuri icyo gikarito handitseho amagambo atandukanye agaragaza izina ry'uwo muti urimo n'uko ukoreshwa kugira ngo uwufashe agiye kuwugura umenye amabwiriza yitaho kugira ngo awukoreshe neza utamugiraho ingaruka.

Icupa rifite ibara ry'umweruru ryitseho amagambo, asobanura umuti urimo ukoreshwa n'izina ryawo kugira ngo ugiye kugura abe yawutandukanya n'undi kandi abasha kumenya uko ukoresha mu buryo bworoshye ku buryo utamugiraho ingaruka.

Ibikarito birimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yateguwe hakoreshejwe ibikoresho bya gakondo, itegurwa neza kugira ngo izavure indwara yagenewe kuba yavura mu buryo bwizewe.

Urumogi ibibabi byabyo ni bimwe mu byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, kandi ivura indwara zijya zitandukanye, mu gihe byateguwe neza byemejwe na leta ko nta ngaruka bifite ku buzima bw'abantu, uyikeneye akaba yajya ku isoko akayigura cyangwa akayandikirwa na muganga.

Agakarito karimo amajyane yatunganyijwe neza kugira ngo akoreshwe nk'umuti mu gihe wayatetsemo icyayi ukakinywa, akaba yagufasha mu kuvura indwara zitandukanye kandi mu buryo bwizewe.

Akabati karimo amacupa atandukanye harimo imiti ya gakondo yatunganyijwe neza kugira ngo ikoreshwe kuba yavura indwara zitandukanye mu gihe uwayiguze ayikeneye kwivura kandi kuri buri cupa higiye hariho igipapuro cyanditseho izina ry'umuti nuko ukoreshwa kugira ngo ugiye kuwifashisha utamugwa nabi.

Amacupa ateretse ku meza arimo imiti itandukanye kandi afite amabara adasa, kandi kuri buri cupa hariho igipapuro cyanditseho izina ry'umuti nuko ukoreshwa kugira uguze amenye uko awukoresha ku buryo bitamugiraho ingaruka.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo harimo ibibabi, indabyo n'amashami y'ibiti, mu gihe byatunganyijwe neza bikaba byavura indwara zitandukanye mu gihe byemejwe na leta muri minisiteri y'ubuzima ko nta kibazo bifite ku ngaruka ku mubiri w'umuntu.

Umuntu ufite ibikoresho mu ntoki byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza kandi ku buryo bwizewe byasuzumwe n'ikigo cy' igihugu gishinzwe ubuzima kikemezwa ko iyo miti nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu ikaba yakoreshwa n'abayikeneye.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye harimo ibyifashishwa amashami yabyo n'ibibabi byabyo gukora imiti ya gakondo kugira ngo bitunganywe neza bishyirwe mu bikoresho byabugenewe bivure indwara zitandukanye.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo, harimo isekuru ibibabi ndetse n'imbuto bikoreshwa mu buryo butandukanye, mu gihe byatunganijwe neza bikaba byavura indwara zitandukanye.

Imeza iteretse y'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo igihe byateguwe neza bigashyirwa mu macupa cyangwa mu bukarito byabugenewe kugira ngo bikomeze bifite ubuziranenge butangirika kandi bikemezwa na minisiteri y'igihugu ifite ubuzima mu nshingano kuko nta ngaruka mbi zifite ku buzima bw'umuntu.